Abagabo bahagaze n'abagore mu nama, bambaye imyenda y'ibirango bya FPR iri mu mabara y'umutuku, umukara n'umweru, inyuma yabo bigaragaza ko ari inteko rusange y'umuryango wa FPR Inkotanyi, niko handitse.

Abaturage benshi cyane, bambaye imipira y'icyatsi n'umuhondo n'abasaza n'abakecuru bari mu nyubako imwe nini bigaragara ko bari mu nama, bari ahantu hubakishije shitingi.

Abantu bari mu nama, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi yo kunywa, harimo abasirikare ndetse n'umupolisi ufite mikoro ari gutambutsa imbwirwaruhame.

Umugabo wambaye karuvati, amadarubindi, afite indangururamajwi n'ikote n'ipantaro by'ubururu n'ishati y'umweru, ahagaze ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma hari ikirango cya RDB cyanditsemo n'inyuguti amagambo y'Icyongereza.

Ihuriro ry'abantu benshi b'abayobozi bari mu nama, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru bateguyeho indabo ndetse bari mu cyumba kinini kirimo ibyapa n'umuntu uri kwinjira mu muryango.

Inama yahuje abantu benshi bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere yabo ameza bateretseho terefone n'uducupa akaj n'aka'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo kumeza hari indabo, amakayi n'ikarama bari kwandika n'amazi yo kunywa.

Abantu batandatu bicaye mu cyumba imbere yabo hari ameza, amakayi n'ikaramu bafite na terefone mu ntoki undi ari kubafotora afite kamera.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, hatatse indabo nyinshi, ndetse n'abantu bicaye, hari ababyinnyi babiri bambaye imikenyero bari kubyina n'ingori mu mutwe bishimye.

Abantu benshi abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere yabo ameza, bafite n'icupa ry'amazi mu ntoki bari kuganira.

Abagabo n'abagore bambaye imipira y'umweru hashushanyijeho ikirangantego, ibendera ry'igihugu ry'u Rwanda mu ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'umukara bahagaze hejuru y'inzu isakaje amabati y'umutuku bari kumanika umurasire w'izuba.

Ikibaya kinini gishashe neza harimo amapironi ahuza insinga zamashanyarazi, umusozi muremure urireho ishyamba n'ikirere gisa nabi.

Imisozi miremire iteganye, iteyeho ibiti by'amashyamba by'ubwoko butandukanye ndetse n'ubuhinzi bw'urutoki, hasi hari umuhanda ndetse n'ikibaya kirimo gukorerwamo, ubwubatsi.

Umugabo wuriye hejuru ku ipoto, wambaye ipantaro y'umweru, ishati y'ubururu n'ingofero, ahagaze ku ipoto ubona ari gukurura insinga z'amashanyarazi.

Urugomero rw'amashanyarazi rw'uwubakishije ibyuma byinshi, inyuma hari imirima ihinzemo ibihingwa by'amoko atandukanye, imbere hari umuhanda wa kaburimbo.

Igice kinini cyane kizengurutswe nibyuma byinshi bigaragara nkaho ari uruganda, hari abagabo batatu bambaye ingofero mu mutwe ndetse n'amajire y'icyatsi n'umutuku bari kuganira.

Umurima uriho indabyo, ibishyimbo, insina, amashyamba, hubatse inzu isakaje amabati y'umutuku, hari n'indi ifite amabati y'umweru.

Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, imbere yabyo indabo n'icyapa, cyanditseho n'amagambo y'umukara n'umutuku, kiri mu ibara ry'umweru. impande hari umuhanda ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Amazu yubakishije amatafari ahiye asize irangi ry'umweru rifite amadirishya nzugi, asakaje amabati asa umutuku, ari ku murongo ndetse impande hari ikibaya.

Umuhanda munini harimo urujya n'uruza rw'abantu, hari imodoka itwara abagenzi ndetse ku ruhande hari inyubako z'amazu menshi n'umusozi uriho ishyamba.

Inzu yanditseho '''urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare',' isize irangi ry'umweru, inzugi zifunguye ndetse n'amadirishya, isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari indabyo n'abantu.

Umuhanda munini urimo imodoka nyinshi z'ubwikorezi zitwaye imitwaro, impande hari amazu asakaje amabati y'icyatsi ndetse n'ubusitani burimo indabo.

Ishyamba ry'ibiti birebire rikikije amazu menshi akurikiranye, asize irangi ry'umuhondo, afite amadirishya menshi n'inzugi, asakaje amabati asa ubururu.

Inyubako ya sitade mu imbere hari amazamu, igice kimwe gisakaye n'ikindi kidasakaye kiriho intebe ziri mu mabara umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, gikikijwe n'imirima ndetse n'amazu yo guturamo.

Inzu isize irangi ry'ubururu, amadirishya n'urugi birafunguye, imbere hicaye abantu, abandi bari gusohoka bagenda, handitseho girubuzima.

Inzu yubakishije amabati y'ubururu inasakaye, munsi hicayemo abantu bambaye imipira y'umweru, impande hari izindi nyubako ntoya, umurima w'ibigori n'urutoki.

Ikiraro cyo mu kirere, kiriho irangi ry'ubururu n'umuhondo, munsi igishanga, hakurya umusozi uriho ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'ubururu n'umweru isakaje amabati imiryango irafunguye inyuma yayo hari ishyamba.

Ikibuga kinini kizuye nka sitade, iruhande hari imyanya y'abantu bicaramo ahasakaye n'ahadasakaye, inyuma hari ubusitani bw'indabyo ndetse n'ibiti.

Abaganga wambaye impuzankano, bahagaze imbere bari kwifotoza, y'inyubako yanditseho Centre de sante Mwendo, bari imbere y'ibyapa byanditseho ejo heza na Girubuzima, biri mu mabara y'ubururu n'icyatsi n'umweru.

Sitade nini ifite ahatwikiriye n'ahadatwikiriye hari imyanya yo kwicaramo isize amarange y'umuhondo, icyatsi n'ubururu, abantu benshi urujya n'uruza bari gutambuka impande.

Imodoka iri guhita mu muhanda wa kaburimbo, impande hari jaride y'indabyo z'amoko atandukanye, inyubako igeretse ndetse n'umusozi hakurya uriho ishyamba ry'ibiti byinshi.

Inyubako igeretse imbere hari abantu babiri, umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati n'ipantaro hari ameza hanze inzu ifite ibirahure.

Inyubako iriho ikirango cyanditseho igororero ry'abana rya Nyagatare hariho urugi runini, inzu ifunguye idirishya hariho irange ry'umweru.

Ikiraro kinini, cyubakishije ibyuma cyo mu kirere, hariho abantu bari gutambuka, munsi umugezi w'amazi menshi atemba, ibyatsi by'amatungo n'ibiti by'amoko atandukanye.

Ikibuga cy'umupira, amazamu, aho abafana bicara hari amabara icyatsi, umuhondo n'ubururu, harasakaye.

Inzu isize amarangi y'ubururu isakaje amabati, imbere hari ubukarabiro, ubusitani bwindabo zitandukanye n'umuhanda hafi n'abantutu bahagaze aho.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, isize amarangi y'umuhondo, inzugi zisa umweru, imbere hari ibyatsi byinshi.

Inyubako isize amarangi y' ubururu yubakishije amabati ubururu imbere hari abagore bari kubyina bambaye amataburiya asa ubururu, n'abagabo bari kubafotora.

Umuntu uri gutambuka ku kiraro, cyubakishije ibiti, impande, umugezi w'amazi, atemba ndetse n'ikibaya kinini cyane, kirimo ibyatsi n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umukuru w'Igihugu ari gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, inyuma hari abasirikare bambaye udupfukamunwa, amakoti y'umukara ndetse n'amashati, n'umusirikare ku ruhande rwo hepfo.

Abantu benshi bateraniye ahantu mu kibuga kinini abana, abakuru, urubyiruko, bicaye munsi y'igiti, inyuma hari umuhanda imodoka ziri gutambuka.

Abantu benshi barimo guhinga ku musozi uriho ibiti by'amoko menshi atandukanye, ikibaya gihinzemo ibiribwa by'amoko menshi.

Abantu bicaye mu mahema y'umweru benshi, bari kwibuka, bafite buje ziri kwaka mu ntoki, n'umusirikare wicaye, n'amacupa arimo amazi.

Umugabo wambaye ishati afite indangurura majwi mu ntoki, ahagaze ari kubwira abantu bicaye ubona bakuze, imbere y'inzu ifite idirishya risize irangi ry'ubururu.

Abaturage bahagaze hamwe abagore n'abagabo bari munsi y'igiti gifite amashami y'icyatsi, inyuma hari ikigega cy'amazi ndetse n'amashuri asize irangi ry'ubururu.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bahagaze hamwe ku murongo bambaye udutambaro tugaragaza igikorwa cyo kwibuka, inyuma yabo hari ibiti by'amoko menshi atandukanye.

Abaturage benshi, abasaza, abagabo, abagore ndetse n'abasirikare, bicaye ku ntebe z'umweru, bari kuganira.

Abagabo babiri ndetse n'abapolisi bambaye impuzankano n'umugore wambaye imikenyero, bahagaze imbere y'inyubako bagiye gufungura mugaragaro. Impande hari umuntu uhagaze wambaye umupira w'umweru.

Abantu benshi harimo n'umusirikare bahagaze mu ishyamba ryibiti birebire, bari kuganira, iruhande hari inyubako.

Umuhanda munini harimo kugendamo umugenzi wambaye ijipo y'ubururu, umupira w'umukara, hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'ubururu, cyanditsemo amagambo STOP y'icyongereza.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, gisashemo amakaro, urugi rusa umukara rw'ibirahure, harimo icyapa kiri mu nyuguti nkuru R.F.T.C mu cyongereza.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ipikipiki ihetse imizigo, ku nkengero z'umuhanda hari inyubako z'bucuruzi, imbere haparitse amapikipiki, abantu bicaye ku ruhande.

Umuhanda munini urimo ipikipiki itwaye umugenzi, iruhande ubusitani bw'indabo ndetse n'inyubako isize amarangi y'umweru n'ubururu.

Umuhanda uriho icyapa kiri mu irange ry'umutuku n'umweru hashushanyijeho abana babiri, inyuma hari ishyamba ry'ibiti by'amoko atandukanye n'umurima uhinzemo ibigori.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka iri gutambuka isa umweruru, ndetse n'imirongo y'ubururu. Iruhande hari amazu y'ubucuruzi asize irangi ry'umweru ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye bihakikije.

Umuhanda munini mushya, harimo imashini ziri kuwukora, hicayemo abantu impande hari ishyamba ry'ibiti ndetse n'ibyatsi.

Ishyamba ryinshi ry'inzitane, ibiti by'amoko menshi n'umuhanda munini wa kaburimbo, uriho icyapa gisize irangi ry'umweru n'umutuku.

Icyapa kiyobora abagenzi, kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, gishushanyijeho igare, ipoto, ikindi kirango cyanditse mu mabara y'umukara, ibiti, amashami yabyo.

Ihuriro ry'abantu benshi abagabo nabagore bahagaze, abandi bicaye munsi y'igiti kinini gifite amashami maremare mu kibara kinini.

Abantu benshi bose bambaye amajire asa icyatsi n'undi umwe wambaye iy'umuhondo, bari kubaka inzu bahererekanya ibyondo n'amatafari, impande hari ibiti byinshi n'urutoki.

Abantu benshi bari mu murima, bafite amasuka, bambaye imipira y'umukara n'amapantaro, bari guhinga, inyuma hari uruzitiro rwibiti by'imiyenzi, harimo imodoka, ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abantu benshi bahagaze impande y'igiti bamwe bari kubyina abandi bari gukoma amashyi, inyuma yabo hari inzu ifite umuryango ndetse n'urutoki munsi.

Abagabo bikoreye amabuye bari mu muhanda hamwe n'abagore, abapolisi n'abasirikare baje mu muganda, hari ibiti by'isombe, indabo ndetse n'ibigori.

Abagabo bambaye bote, bikoreye amabuye, bari kumwe n'umusirikare mu muhanda batambuka, iruhande hari umurima uhinzemo ibigori, ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umugore wambaye ikanzu, ufite indangururamajwi mu ntoki, ari gutambutsa imbwirwaruhame, inyuma ye hicaye abantu babiri umugabo n'umugore, ikindi cyapa gishushanyijeho abantu, cyanditse mu magambo y'ubururu.

Abantu benshi bari mu muhanda abagabo n'abagore, bambaye ingofero z'umuhondo n'icyatsi, impande yabo indabo n'ibiti bifite amashami menshi.

Abantu bari mu muhanda gutunda amabuye, bamwe bunamye, abandi bahagaze, n'undi ufite igare mu ntoki, impande hari inzu zo guturamo, indabyo n'ibiti by'amoko atandukanye, ndetse n'urutoki.

Isambu nini irimo abaturage bafite amasuka, bari guhinga, inyuma, ibihuru byinshi harimo n'ibiti ndetse n'ishyamba rirerire, hakurya ku musozi.

Abantu benshi umuganga uri gupima umurwayi wambaye umupira wanditseho Rwanda n'ingofero y'ubururu n'ipantaro y'umukara yicaye ku ntebe.

Abahungu bambaye imyenda isa bose ubururu n'icyatsi, bari kwirukanka mu muhanda urimo ibyatsi, impande hari ishyamba ryibiti by'amoko menshi.

Umukinnyi uri mu kibuga kinini ari gukina balo yambaye amasogisi y'umweru inkweto z'umukara, umupira n'ikabutura by'ubururu, inyuma hari inyubako zisize irangi ry'umuhondo.

Abantu benshi bari muri siporo zo kwiruka mumuhanda munini wa kaburimbo, imbere hari abandi bahagaze bari kubareba ndetse n'amatara yo kumuhanda are kwaka, impande yaho hari ibiti.

Abakinnyi babiri barimo gukina umupira mu kibuga umwe yambaye ubururu n'umweru, undi umukara, inyuma hari ibiti n'imisozi iriho amashyamba n'inyubako.

Ikibuga kinini kirimo abantu benshi, biganjemo urubyiruko bari gukora siporo, imbere hari itara riri kwaka n'abandi bari gukina umupira n'amazamu.

Inyubako igerekeyije irimo abantu benshi cyane bicaye, abandi bahagaze bambaye amajire asa icyatsi, bari kubaha amabwiriza.

Umukinnyi wambaye imyenda y'umuhondo amasogisi n'inkweto agiye gutera umupira, ari gukina ndi kipe yambaye imyenda y'ubururu, inyuma amazamu ndetse n'inyubako zihazitiye n'ibiti by'amashyamba.

Abakinnyi b'umupira, amakipe abiri, imwe yambaye imyenda y'ubururu indi umuhondo, bafite umupira mu kibuga kinini bari gukina, gikikijwe n'ishyamba ry'biti birebire ndetse kirazitiye.

Umukinnyi wambaye imyenda ya siporo isa ubururu n'icyatsi, inkweto n'amasogisi y'umukara. Ahagaze mu kibuga kinini ndetse n'undi wambaye imyenda y'umuhondo. Gikikijwe n'inyubako, n'amazu yo guturamo n'ibiti.

Ikibuga cy'umupira harimo abakinnyi amakipe abiri ari gukina, imwe yambaye imyenda y'ubururu, indi imipira y'umutuku n'amapantaro y'umukara arimo uturongo tw'umuhondo. Inyuma yi'kibuga hari abafana baje gufana, n'inyubako zo guturamo.

Ikibuga kinini cy'umupira cyo gukiniramo, hari amakipe abiri y'abagore yambaye ubururu bwijimye n'umutuku, abasifuzi bambaye icyatsi n'umukara, hari ibiti byinshi bihakikije.

Umukinnyi w'umupira, yambaye imyenda ya siporo, isa ubururu, harimo n,icyatsi, amasogisi y'umukara n'inkweto, ari mu kibuga cy'ibyatsi, harimo umupira, inyuma hari inzu zo guturamo.

Ikipe y'umupira yambaye imyenda y'umuhondo n'indi yambaye imyenda y'ubururu bari gukina mu kibuga hari nabantu baje gufana, ikibuga gikikijwe n'inyubako isize irangi ry'umuhondo.

Umuhanda munini wa kaburimbo ukikijwe n'amapoto ariho amatara n'insinga z'amashanyarazi mu kirere, ibiti byinshi n'insina, umusozi uriho inzu yo guturamo.

Umuhanda munini w'igitaka, imbere hari inyubako zo kubamo ndetse hari urujya n'uruza rw'abantu, amoko y'indabo n'ubusitani n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umuhanda munini uriho urujya n'uruza rwbantu, inyubako z'ubucuruzi ziwukikije, insinga z'amashanyarazi mu kirere, ishyamba ry'ibiti birebire ku ruhande n'amapikipiki.

Inyubako z'ubucuruzi ndetse n'izo guturamo zikikijwe n'ibiti, hari icyapa kigaragaza farumasi gisize irangi ry'icyatsi n'ubururu, haparitse na moto kuru ruhande.

Moto ebyiri, abamotari, ibiti, ikirango, ibyapa, moto nyinshi, ibirango bya MTN, inzu ifite ibara ry'umweru.

Umuhanda munini wa kaburimbo, amatara menshi awukikije ari kwaka, hari inyubako nyinshi zo guturamo ndetse ni nijoro.

Abantu babiri bicaye ku ipikipiki mu muhanda icanye amatara, impande hari amapoto n'ibyatsi n'indabo hakikijwe n'amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo munini harimo ipikipiki n'umuntu uyitwaye, wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro n'ikote, hari icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru n'umukara.